Inzu mberabyombi bigaragara ko hateraniyemo abayobozi b'inzego z'igihugu, aho buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse n'impapuro ari kwandikaho ibivugirwa mu nama, hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo barimo.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi b'ibihugu batandukanye, ndetse hakagaragara ko harimo n'umwirabura. Aho kuri buri meza hagiye hariho icupa ririmo amazi hakaba n'ibyapa biranga ikiganiro barimo.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'igihugu batandukanye, aho bigaragara ko bicaye ku ntebe zisa umweru ndetse n'umukara kandi kuri buri wese ku meza ariho hakaba hari icupa ririmo amazi ndetse n'ikayi ari kwandikamo ibyavugiwe mu nama.

Imberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye aho bigaragara ko abiganjemo ari urubyiruko, akaba n'umuyobozi ufite indangururamajwi ariko kubaha ikiganiro. Bakaba bicaye ku ntebe zisa umutuku hasi hakaba hari ubwatsi busa icyatsi kibisi, amatara akaba ari kwaka y'umweru.

Inteko y'abaturage bigaragara ko higanjemo abagore, imbere hakaba hari umuyobozi uri kubaha ikiganiro afite indangurumajwi ndetse n'urupapuro; hakurya hakagaragara ibimodoka binini bihaparitse bitwara imizigo ndetse n'amazu atangirwamo serivisi atandukanye; ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Abantu bicaye bigaragara ko umwe ari kuri telefone nini ngendanwa undi akaba ari kuri mudasobwa kandi bikaba bigaragara ko hakurya hari n'abandi bantu bicaye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, hakagaragara abagabo bahagaze ndetse n'abasore bari gufata amajwi ndetse n'amashusho. Hakurya hagaragaramo izindi nzu zitangirwamo serivisi, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragara ku mpande inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hakaba hari n'ibyapa biranga ibikorerwamo, hakaba hari n'imodoka zihaparitse kandi hakaba hari n'ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zikajya mu kandi. Ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru, hakaba hari n'umuntu uri kugenda n'amaguru.

Ibikoresho byifashishwa mu mashanyarazi aho harimo ibyongera umuriro ndetse bikanawugabanya arizo mu ndimi z'amahanga bita taransifoma, hakaba n'ibyifashishwa mu kurinda inkuba, ndetse hakaba hagaragara n'amazu atangirwamo serivisi zitandukanye hakurya hakagaragara imirima ihingwamo hakaba harimo n'ibiti bikuze.

Inzu nini bigaragara ko zituwemo n'abantu, hakagaragara n'ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi nyinshi, ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, hakagaragara n'abantu bahicaye ndetse ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru, hakagaragara n'umutaka wa sosiye y'itumanaho ikorera mu Rwanda ya Airtel.

Indabo nyinshi cyane zikikije igikoresho cy'amashanyarazi kifashishwa mu kongera umuriro cyangwa mu kuwugabanya, hakurya hakagaragara n'ipoto nini itwaye insinga z'amashanyarazi, ava mu gace k'amwe ajya mu kandi ndetse n'ibiti bikuze cyane.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, bikawongera cyangwa bikawugabanya, mu ndimi z'amahanga bakaba babyita taransifoma, hakurya hakagaragara n'urugo ruzengurutse aho hantu, rw'ibyuma.

Ikirere gifite ibicu byiganje umweru ndetse n'ibisa umukara, hakaba hagaragara ipoto y'igiti itwaye insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi, hasi hakagaragara n'amazu atuwemo n'abaturage, hakaba hari n'ikigega gifata amazi ndetse n'indabo zikikije urwo rugo.

Ipoto ryifashishwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi, hagaragara n'amazu atuwemo n'abantu. Hakaba n'umuhanda nyabagendwa, hakaba n'icyapa cyerekana ko aho ahantu bagomba kubanyu bazengurutse kirango ni umweru, ubuso ni umuhondo, uzenguruko ni umweru, ishusho ni uruziga.

Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa nto itwara abagenzi hamwe, hakaba hari n'amazu atuwemo n'abantu ndetse n'igiti gitwaye insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi, hakaba hari n'igiti kinini kigundutse gikuze, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje bisa umweru ndetse n'iby'umukara.

Inzu nini cyane itangirwamo serivisi zitandukanye, aho hejuru ku mabati hagaragara igikoresho cyifashishwa mu gushyushya amazi no kuyakonjesha, hakaba hari n'icyapa cyerekana ibikorerwa aho ngaho, hakaba hari n'ipoto itwaye insinga z'amashanyarazigiba mu gace kamwe bijya mu kandi, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi. Aho hagaragaramo n'izindi nzu zitangirwamo serivisi zitandukanye. Hakaba hari n'icyuma gifite amabendera y'u Rwanda ndetse n'icyapa cyerekana ko aho hantu hakorera farumasi. Kandi hakaba hari n'imodoka zirikugenda mu muhanda nyabagendwa. Ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Inzu nyinshi bigaragara ko zitangirwamo serivisi zitandukanye, aho hagaragara n'akayira kabugenewe kanyuramo abanyamaguru ndetse n'imodoka, hakurya hagaragara n'indi nzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo aho ikirere gifite ibicu by'umweru byiganje, hakaba ari n'amazu ku mpande y'umuhanda akorerwamo ubucuruzi butandukanye, hakanagaragara imodoka iparitse hepfo y'inzu.

Inzu bigaragara ko harimo abantu baje kwaka serivisi zihatangirwa, aho bigaragara ko hari abadamu bicaye ku ntebe, ndetse n'abagabo bahagaze, ukabona ko imbere harimo umuntu uri kubaha iyo serivisi, hanze bigaragara ko izuba riri kuva.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu bambaye ibendera ry'u Rwanda bakaba ari abunzi. Hakaba hagaragaramo n'abaje gutanga ibibazo byabo ngo babikemure. Buri mwunzi wese akaba afite ikayi ari kwandikamo ibyo umuburanyi ari kuvuga.

Ikigo kinini cyane bigaragara ko gitangirwamo serivisi zitandukanye, kikaba ari ikigo cy'igororero rya Gicumbi Corregitional Facility, hakaba hari n'indabo zi nini zikuze cyane, hakaba hari n'icyapa kiranga, cyemerera ko nta muntu wemerewe kuhatambuka, ikirango ni umweruru, ubuso ni umutuku, ishusho ni uruziga.

Abantu benshi cyane bambaye impunzankano bigaragara ko ari imfungwa. Bakaba buri wese yambaye isaha ku kaboko, kandi bakaba bafashe mu gatuza bazamuye ikiganza. Hakurya hakagaragara ibiti binini bikuze cyane. Ikirere kikaba gifite ibicu bisa umweru.

Abantu benshi cyane bambaye impuzankano bigaragara ko bari mu kibuga, bikaba bigaragara ko bafite ibirango bya FPR. Imbere hakaba hari umukandida wabo bari bari kwamamaza, hizi egiserensi Paul Kagame. Ikirere kikaba gifite ibicu byiganie umweru, hakurya hagaragara n'imisozi ifite ibiti ndetse n'amazu atuwemo n'abantu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho ahagaragaramo imodoka nini itwara abantu hamwe ndetse na moto itwara imizigo hakagaragaramo n'umunyegare atwaye igare, hakurya mu kayira gaturanye n'umuhanda nyabagendwa hakaba harimo umuyamaguru hakaba hanakikijwe n'ibiti binini bikikije umuhanda. Ikirere kikaba gifite ibicu byumweru byiganje.

Mu muhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe z'ubwoko butandukanye. Hakurya hagaragara amazu akoreramo ubucuruzi butandukanye, aho kuri buri nzu ari icyapa kiranga ibikorerwamo. Hakaba harimo n'urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n'amaguru.

Umuhanda nyabagendwara bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini itwariye abagenzi hamwe ndetse n'umunyamaguru ari kugenda, hakurya hakagaragara ibiti binini cyane ndetse ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, hakaba harimo imodoka nini itwaye umuzigo ndetse imwe imanuka indi izamuka, hakurya hakagaragara ibiti binini bikikije umuhanda, hakagaragara n'umuferege unyuramo amazi ndetse ikirere kikaba gifite ibicu bisa umweru.

Imodoka nini itwarira abagenzi hamwe bigaragara ko iri kugenda mu muhanda w'igitaka, hakurya hakagaragara umusozi utuweho ibiti, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe hakurya hagaragaramo amazu atuwemo n'abantu ndetse bigaragara ko izuba riri kuva ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

umuhanda nyabagendwa bigaragara gukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka nini bitwaye umucanga. ndetseba hari n'ibiti binini bikikije umuhanda bikaba bivuze. Hejuru ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru hakagaragara n'umuferege ucamo amazi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo ikimodoka kinini cyikoreye imizigo ndetse n'imoto itwaye abagenzi. Hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru karimo abanyamaguru bari kugenda ndetse ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti binini bikuze cyane n'amazu y'ubucuruzi atandukanye. Ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, hakaba hari icyapa cyerekana ko imodoka zigomba guhagarara aho ngaho, ikirango n'umweru, ubuso n'umuhondo, umuzenguruko n'umweru, ishusho ni urukiramende. Kandi hakaba hari n'ibyerekana ko nta modoka zemerewe kuhatambuka, ku mpande hakaba hari inkengero z'umuhanda, zubatsemo inzu itangirwamo serivise zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko hari umuhanda w'igitaka, hakaba harimo imodoka nziza cyane y'umweru, hakurya hakagaragara igipangu gituwemo n'abantu kizengurutswe n'indabo, ikirere kiba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kigamije kwerekana ko izo modoka zitwarira abantu hamwe ariho zigomba guhagarara, ikirango n'umweruru, ubuso ni ubururu, umuzenguruko ni umweru n'ubururu, ishusho ni urukiramende.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo moto ndetse n'imodokato zitwara abantu hamwe hakaba n'utuyira twabugenewe tw'abanyamaguru turi kugendamo umunyamaguru hakaba n'icyapa cyerekana ko imodoka ariho zigomba guhagarara ikirangwa n'umweru ubuso n,ubururu umuzenguruko n'umweru ishusho urukiramende ikirere kikaba gifite ibicu byiganjemo umweru.

Mu isangano ry'imihanda ibiri aho bigaragara ko hari icyapa cyerekana ibiro imodoka zitagomba kurenza, ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umukara, ishusho ni urukiramende, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu, hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi atandukanye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka ntoya ndetse n'inini zitwaye imizigo, hakaba hari n'icyapa kifashishwa mu kumurika mu muhanda, kikaba cyerekana ko mu muhanda hari agacuramo gakabije, kirangwa ni umukara, ubuso ni umuhondo, umuzenguko ni umutuku, ishusho n'impande eshatu zingana.

Inzu nini cyane ubona ko itangirwamo serivisi zitandukanye, hakaba hari n'ibyapa biranga ibihakorerwa, ikaba izengurutse n'urugo rwa senyenge, ikirere kikaba gifite ishusho yiganje, isa umukara.

Inzu nini cyane bigaragara ko ikorerwamo serivise zitandukanye, aho hagaragara ibyapa bigenda biranga ibikorerwamo, hasi hakagaragara imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu. Iyo nzu bikaba bigaragara ko iherereye muri Remera.

Mu isangano ry'imihanda itandukanye, aho hagaragara indabo nziza cyane zitohagiye ndetse n'amazu meza cyane atuwemo n'abaturage kandi hagati y'amazu hakaba hari ibiti bikuze cyane, aho hantu hakaba ari Kimironko, kwa Mushimire.

Imbuga ngari bigaragara ko yubakishije amatafari, hakaba hari n'amazu atangirwamo serivisi zitandukanye, kandi kuri buri nzu hakaba hari icyapa cyerekana ibikorerwamo; hakaba hari n'imodoka ebyiri zidaparitse mu muhanda, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara kokore mu byerekezo byombi hakaba harimo moto itwara umugenzi, hakurya hagaragara inzu nini cyane y'umwihariko ubona ko ikorerwamo ubucuruzi hakaba ari n'ibyapa biranga bikorerwamo, bikaba bigaragara ko ari kumanywa izuba riri kuva ikirere kikaba gifite ibicu byiganje ibmweru hakagaragara n'ibiti binini.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, hakurya hagaragara inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho ariho n'ibyapa biranga ibihakorerwa, hasi hakagaragaramo abantu bambaye impuzankano ndetse n'imodoka ihaparitse n'umuntu ufite igare.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe ndetse n'imoto za rifani zitwara imizigo, ku nkengero z'imihanda hakaba ari ibiti binini bikuze cyane ndetse n'agatebe kicarwamo n'abagenzi bategereje imodoka.

Umuhanda nyabagendwa igaragara gukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka ntoya zitwara abagenzi hamwe ndetse n'imodoka nini zitwara imizigo, hakaba arimo n'amamoto ndetse n'igare bitwaye abagenzi ku mpande hakaba hari amazu atangirwamo serivisi zitandukanye, hakunze kugaragara ibiti binini bikuze ndetse ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo ibicucu by'abantu ndetse n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe, hakurya hakagaragara ibiti binini ndetse n'amazu atuwemo n'abantu, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu.